Abantu, bari ahantu, bisa nk'aho bari kwiga ku mishinga itandukanye, bari kurebera kuri mudasobwa.

Bicaye mu giturage, umugore umwe arabahagarariye, yambaye akajijere, ari kubabwira ibyo bari kumva, abasaza, abasore, abakobwa nibo bari kumva ibiri kuvugwa.

Umugabo, ingeri zitandukanye, abagore bicaye mu cyumba cy'inama, abambaye amakote, imyiitero, amashati n'ibind,i bari kumva bari kubabwira.

Abagore, abagabo mu ngeri zitandukanye bicaye ahantu ku nzu ku ntebe bari kureba mu bitabo nkaho ari byo bajemo.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye abagore, abagabo, abakobwa, bari mu cyumba cy'inama hateretse amazi bari kumva uri kubabwira.

Abagore n'abagabo bicaye imbere y'abandi bantu, hateretse amazi, bambaye amakanzu, amakote bari kubwira abari kubumva.

Abakobwa, abahungu, bari ahantu mu cyumba kinini, bisa nkaho baje mu rugerero, bari kumva uri kubabwira.

Abaturage bicaye ahantu, bari kuganira mu ngeri zitandukanye, abagore, abagabo, abasore, n'abamama, ku bivugwaho byageza rubanda kure.

Abantu bafite amazi imbere yabo, bambaye imipira isa, bari kuganira mu cyumba kinini cy'inama, bari kumva uri kubabwira.

Abagabo, abagore, abakobwa, abasoreje bicaye mu cyumba cy'inama barikumva uri kubabwira bisa nkaho bari mu kazi gatandukanye.

Umwana uri kuvuga cyangwa se igitsina gabo n'abakobwa bari mu cyumba cy'inama, iri kuganira ku bintu bitandukanye, byabateza nk'imbere.

Abagabo n'abasore n'abagore n'abakobwa bajya inama bafite za mudasobwa, bivuze ko hari ibyo bari kuganiraho cyangwa se barimo.

Abantu harimo abagabo n'abagore, biteretse amazi mbere n'amamashini cyangwa se mudasobwa, bari mu cyumba cy'inama bari kubwirwa n'uri kubabwira.

Icyumba cy'inama kirimo abagabo, abagore, bari kumva ibiri kuvugwa, abahagaze imbere yabo abenshi muri bo bafite amazi.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye, bicaye mu cyumba cy'inama, abambaye imipira isa yo mu bwoko bugiye butandukanya umuhondo, icyatsi n'indi mipira ibonetse.

Umupolisi n'abagabo n'abagore bicaye, aho bari ahantu bari kuvugira ibikorwa bigiye bitandukanye, ku ngingo y'imari.

Abagore, abagabo, abakobwa, abasore mu ngeri zitandukanye mu cyumba cy'inama, bicaye imbere biteretse ji n'amazi n'abari inyuma bari kumva ibiri kuvugwa.

Umunara w' itumanaho uri ahantu, irange ry'umweru n'umutuku biwusize, byakifashishwa gutanga interineti cyangwa itumanaho.

Ushobora kurigana, ukabasha kuba wakwiyandikisha, mu gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo, gikorerwa ku mpapuro, ukabasha kuba wakora neza ugatsinda.

Umunsi mwiza w'umurimo, minisiteri y'abakozi mu Rwanda yawushyizeho kugira ngo bajye bizihiza ibintu bakora nta mpungenge.

suberi kafe ntahantu bi ushobora kuba wajya igihe ukeneye ukoresha mudasobwa, ukabasha kuba wakohereza kwakira ibintu bitandukanye.

Ahantu hari umu ageti n'icyapa cyerekana ibikorwaremezo bikorerwa aho hantu hari inzu ucuruza amayinite yabitsa amafaranga n'ibindi.

Ahantu hari umumotari uparitse, ku muhanda asa n'aho avuga, ari kumanuka mu gikari n'inzu igeretse kabiri.

Ahantu hari umunara wubatswe neza cyane, uwo batanga serivisi z'itumanaho mu umujyi wa Kigali mu Rwanda cya ahandi habonetse.

Akapa kerekana ko hari wifi imbere cyangwa se muri iyi nyubako, harimo wifi ushobora kuba wakoresha ujya kuri interineti bikagufasha kuba byakihutisha itumanaho.

Umujyi wa kigali ukorerwamo ibikorwa bitandukanye ahantu abantu benshi bazi nka ka furi zone kwabyo biri mu kureragisa cyangwa mu kuruhuka bityo ukabaho neza.

Umukobwa uri kumeza afite mudasobwa, umupira w'umweru arawambaye n'ipantaro, n'inkweto z'umuhondo. Bisa nkaho bari kuganira kubintu bitandukanye, ari gukora akazi.

Umuhanda uturiwe n'inzu z'ubucuruzi, hariho ibyapa biranga ibikorerwa aho hantu, amapoto atwaye insinga ariho n'amatara amurikira igihe bwije.

Mu muhanda, hirya kuruhande hari ibyapa bigaragaza ibikorwa remezo bibera mu mazu ari hirya y'umuhanda kandi hari amabuye.

Inzu y'ubucuruzi nini cyane yubatswe mu buryo bugezweho, irimo umuriro w'amashanyarazi, ipoto riwujyanamo, ibikorwa.

Amapoto atwara insinga cyangwa se azifata zikabasha kuba zajyana amashanyarazi mu baturage no mu nyubako z'ubucuruzi, bituma habaho kwihuta kwa serivise.

Ahantu hari amazu ari mu bucucikirane, taransifo itwara amashanyarazi ku buryo bwihuse iyavana ahantu hamwe iyajyana ahandi Rwanda.

Ipoto itwara amashanyarazi iyavana ahantu hamwe, iyajyana ahandi ku buryo bugezweho, abantu bakabasha kuba bakora akazi kabo.

Ibikorwaremezo biherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda cyangwa ahandi hose mu gihugu, aho ndi kubona amatara amurikira umuhanda mu gihe bwije.

Iminara ishyirwa mu muhanda, ukabasha kuba wajyana insinga zitwaye amashanyarazi, ziyavana ahantu hamwe ziyajyana ahandi, nko mu baturage, bikabasha kuba byabafasha.

Ahantu mu muhanda hari akandi kayira k'abanyamaguru, amatara ipoto ijyana insinga z'amashanyarazi, azivana ahantu hamwe azijyana ahandi.

Ipoto ritwara amashanyarazi riyavana ahantu hamwe riyajyana ahandi, ku buryo bwihuse cyane; ushobora kuba wawukoresha mu bintu byinshi.

Ipoto ritwara amashanyarazi riyavana ahantu hamwe riyajyana ahandi, kagiparitsemo imodoka ku ruhande inzu hirya ho gato niho hari ibikorwa remezo mu mujyi wa kigali mu Rwanda.

Umunara utwara ndetse ufata insinga z'amashanyarazi, mu kuba zajyana umurimo mu baturage no mu nzu z'ubucuruzi ziri aho hafi, bityo hakabaho gukorwa ku akazi vuba vuba.

Ahantu hari amazu y'ubucuruzi n'umunara cyangwa se ikintu kimeze nk'ipoto gitwara amashanyarazi, kiyavana ahantu hamwe, kiyajyana ahandi mu baturage bakabasha kuba bakora akazi.

Ipoto itwara amashanyarazi, iwuvana ahantu hamwe iwujyana ahandi mu baturage, iriho itara rimurikira umuhanda mu gihe bwije.

Ahantu hari ubusitani bwiza, burimo icyapa, bukikijwe n'inyubako zikorerwamo ibikorwa remezo bigiye bitandukanye.

Amacupa ari ahantu hafunze neza cyane, aho ayo abikwamo gaze cyangwa umwuka ushobora kuba wakwifashishwa mu kwatsa ibintu bitandukanye.

Imbuga nini zigizwe n'amazu akorerwamo ibikorwa bya leta, aho ushobora kuba wagana bakagufasha mu bikorwa bitandukanye, ikintu kizimya umuriro kirimo mu kibuga.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho, aho ishobora kuba yakorerwamo ibikorwa remezo bya leta n'ibindi.

Hitaruye aho wababasha kubabona inzu yubatswe mu buryo bugezweho, n'imihanda myiza y'amabuye n'amatara amurikira ahantu mu gihe bwije.

Abagore, abagabo bicaye ku ntebe abandi barahagaze, aho bategereje serivise runaka iri kubera aho hantu bari.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bw'inzu zikomeye, aho hashoboka kuba hakorerwamo ibikorwa bya Leta, urugero nk'ubuvuzi bwahakorerwa bikagenda neza.

Inyubako ni nziza cyane yubatswe mu buryo bwa kijyambere iri mu zigezweho mu Rwanda, aho ishobora kuba yakorerwamo ibintu bigiye bitandukanye: amapave, amabati n’ibindi.

Umugabo usa naho ari ingorororwa ahagaze imbere y'abantu benshi, bivuze ko ibintu ari kubabwiraho bari kumwumva.

Ingororwa zirinzwe n'abashinzwe kuzirinda, aho ziri mu bikorwa byazo bari kubasaka.

Felisiye Kabuga arahigwa kubera ibyaha yarakoze muri jenoside yakorewe abatutsi uyu uwamubona bamuhemba ibihumbi bitanu by'idorari aya mafaranga kandi ni menshi cyane.

Umugabo wambaye igikanzu cy'umutuku, userukiwe n'abandi bambaye nka we, afashe ku idarapo ari kurahira ibyo azakorera igihugu.

Umugore usa' yambitswe amapingu atwawe n'abapolisi, yakoze ibyaha bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda.

Umugabo yicaye mu ntebe nziza cyane ahantu muri saro, imbere ye hari ibirahure, uri kwifotoza amarinete yayambaye.

Abagabo benshi bari kugenda n'abagore, kuko barangije amashuri yabo, uburyo bwisumbuye ushobora kuba wabagana bakabasha kuba bagufasha muri serivisi z'ibintu bagiye biga.

Abagabo n'abagore bari gusa nkaho barahirira imbere y'amategeko, hari abandi inyuma bari kubareba.

Abagabo n'umugore bari mu cyumba nk'aho hari ibintu bari kuvuga, muri iki cyumba uwambaye ishati y'umutuku n'uyu wambaye amakanzu.

Umugabo usa nkaho uri kubwira undi w'ingororwa aho twakwita ko ari umwavoka wiwe.

Umurindankuba uri hejuru y'inzu, uyu wakoreshwa ahantu hari abantu benshi, ukabasha kuba wabarinda ibijyanye no kuba yakubita ikabasha kuba yabangiza.

Icyuma cyangwa igikoresho cyakwifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, binyuze mu kuba wagifata ukagifungura, mbere yuko abashinzwe kubikora bahagera, wakifashisha ibyabugenewe.

Afite igikoresho gishobora kuba cyakwifashishwa mu gutanga amazi, bikabasha kuba byazimya ahantu hari inkongi y'umuriro. Akazi kagenda neza.

Ibikoresho bishobora kubabyakwifashishwa n'abantu batuye mu nyubako zitandukanye kuzimya nkongi y'umuriro yabera ahantu baba batuye, mu gihe hatararaboneka ababikora.

Ikibuga kinini gikorerwamo no kuba watwara ibinyabiziga, ku buryo utsinze baguha impamyabumenyi yo gutwara imodoka.

Imodoka iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, itwaye abantu b'abapolisi ibavana ahantu hamwe ibajyana ahandi mu buryo bw'akazi.

Umugabo uhagaze imbere y'abantu ari kubabwira ibyo bari kumva, nk'uwiyamamarije kuba perezida w'u Rwanda bikaba byaranze.

Umukuru w'igihugu, wambaye ikote ryiza cyane, amarinete, n'inkweto zigezweho, n'umufasha we, bari kuza bagana mu bwicaro.

Habyarimana Juvenali umukuru w'igihugu wabayeho mu gihumbi kimwe magana acyenda mirongo irindwi na gatatu. Aza kuba yayobora igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo uhagaze imbere y'abaturage, bambaye utugofero dukozwe mu bipapuro na rasitike.

Umukuru w'igihugu ari kwandika kupapuro yambaye ikote ryiza, umufasha we arahagaze n'umugabo uri kubarahirisha.

Ahantu hari abagabo abagore bagiye bambaye imyambaro itandukanye, imikenyero na kositime, perezida Paul kagame ahagaze hagati

Umuhanda urimo ikamyo itwara imizigo iyivana mu gihugu kimwe iyijyana mu kindi; umugabo uri ku ruhande wambaye ipantaro, umupira n'akajire; amapine kuri iyo modoka

Umuhanda urimo imodoka nini itwara imizigo, hirya hari icyapa cyerekana ikinyobwa cyo kunywa.

Imodoka itwara imizigo iparitse muhanda wa kaburimbo igare . Hirya ikinindi kinyabiziga kiri kugenda.

Shira umuteto w'imodoka, igendera mu muhanda wa Kigali, utwara abagenzi benshi cyane, bagenda bahagaze abicaye nini.

Umuhanda ukoreshwa n'abanyonzi, abamotari abatwazi b'imodoka, ikamyo izisanzwe, urimo ibiti biri ku ruhande.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga unagenderamo ibintu bigenda n'amapine bitandukanye harimo moto, imodokari n'amagare.

Imodoka itwara imizigo iyivana ahantu hamwe iyijyana ahandi, ikaba iri mu muhanda, ugenderwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye moto, amagare n'ibindi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga na moto, bitwara abagenzi mu buryo bwihuse, baba ababashyikiriza aho bagiye babasha kubona amafaranga babishyuye.

Umuhanda, kaburimbo irimo imodoka ifite moteri isize irangi ry'ubururu, moto itwaye umugenzi, aya makasike, iri kwihuta cyane.

Umuhanda urimo imodoka yitwa Ritiko, itwara abagenzi ibavana ahantu hamwe ibatwara ahandi, igare riri kugenda n'ibirayi biteretse ahantu.

Umuhanda urimo imodoka itwara abagenzi, izindi zigiye zitwara abantu n'ibintu, hari umugabo uri kwambuka, hirya hari umunara.

Imodoka izwi mu bwoko bwa sikaniya, ishobora kuba yatwara imizigo iyivana ahantu hamwe iyijyana ahandi mu buryo bwihuse, itwarwa n'abagabo babiri.

Umuhanda ukeye mu igihugu cy'u Rwanda, ukoreshwa n'abamotari, abatwazi b'imodoka, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, harimo ibiti, amatara amurikira.

Umuhanda urimo imodoka itwara imicanga amabuye n'indi mizigo iremereye babiri kugenda irangi ry'ubururu.

Umuhanda urimo ibinyabiziga moto, igikamyo gitwara imizigo kiyivana ahantu hamwe kiyijyana ahandi, aho umugabo ufite telefone yambaye ipantaro n'umupira.

Umuhanda wa kaburimbo urimo igare, igikamyo kiri kugenda gitwara imizigo igiye itandukanye, hirya hari ibiti n'akayira k'abanyamaguru.

Imodoka itwara abagenzi, ibavana kuri sitasiyo imwe, ibajyana ku yindi sitasiyo, bikabasha kuba byafasha abaturage kuba bakora ingendo zabo, batagiyemo ibintu byo kubura ibibatwara.

Imodoka iparitse ahantu ku muhanda, ya tagisi vuwatiri, itwara abantu b'abagenzi ibavana ahantu hamwe ibajyana ahandi mu buryo bw'akazi.

Imodoka ishinzwe gutwara imizigo iyivana ahantu hamwe yo mu gihugu kimwe iyijyana ahandi, bityo bikabasha kuba byafasha abaturage mu kubona ibyo bifuza, na we akabona ibyo yifuza umugenzi uyitwaye.

Imodoka ivanga imicanga na sima, ikabasha kuba yabivana ahantu hamwe ibijyana ahandi, iri mu muhanda wa kinamba yerekeza aho igiye.

Uyu ni umujyi urimo ibikorwa bitandukanye, abantu baruhukira bakaba bafata akayaga kandi bakoresha itumanaho neza.

Ahantu hari ikibuga bisa nk'aho ari icya Leta, gishobora kuba cyakorerwamo ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, kikakira abaturage, inama n'ibindi.

Ni umujyi wa Kigali ushobora kuba wajya ukeneye gukora agazisiporo kagufasha mu mubiri kumera neza wayikoze, ubusitani bwiza cyane bukikije aho hantu.

Icyapa gishyirwa mu mihanda, cyerekana ibintu byakorerwa ahantu imbere cyangwa aho hantu, bikabsha kuba byafasha abaturarwanda gukurikiza ibintu biri ku cyapa.

Icyapa kiri ahantu mu byatsi, gishobora kuba cyakerekana ikintu kibera aho hantu, bityo bikabasha kuba byafasha abaturage mu kuba babikurikiza.

Icyapa gishobora gushyirwa ahantu hihishe hegereye umuhanda, cyerekana ibintu bishobora kuba byabera aho hantu bityo bigafasha gukoresha ibinyabiziga.

Icyapa gikunze gushyira uwo muhanda, hirya yawo herekana ibikorwa bibasha kuba byabera, aho ahantu.

Icyapa cyashyirwa mu muhanda, kikabasha kuba cyakwereka ibikorwa remezo bibera aho hantu, bityo bigafasha abaturage kuba babikurikiza nta kosa.

Icyapa gikunzwe gushyira mu muhanda aho cyerekana ibintu bitandukanye cyemeza igikorerwa aho ngaho cyangwa se gihakana ikiba cyakorerwa aho hantu.

Icyapa gishobora kuba cyashyirwa mu muhanda cyerekana ibihakorerwa, ahantu mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu Rwanda bityo bikabasha kuba byatuma akazi kagenda neza.

Icyapa giherereye mu mujyi wa Kigali, mu Rwanda, cyerekana ko aho imbere haparika imodoka n'amabisi, bityo bikabasha kuba byafasha ibinyabiziga

Icyapa cyashyirwa mu mihanda, kikabasha kuba cyakerekana ibikorwa cyangwa se igikorwa cyakorerwa ahantu imbere cyangwa se nyuma.

Ahantu mu muhanda hari ipoto ritwara amashanyarazi kubaturage, imodoka ahantu hafi umwana wakazi ahantu igikapu.

Icyapa gikunzwe gushyirwa mu mihanda, kiba cyerekana ikibasha kuba cyakorerwa hafi aho, cyangwa se imbere aho, ibyo bikabasha byatuma hubahirizwa ibyagenewe gukorerwa aho hantu.

Icyapa gishyirwa mu muhanda aho ariho hose. Kikaranga amerekezo cyangwa, kikerekana aho ahantu ukuntu hameze.

Gikunze gushyirwa mu mihanda, cyerekana gikorwa gishobora kuba cyakorerwa aho ahantu, moto iparitse mu muhanda, itwara abagenzi ibavana hamwe ibajyana ahandi.

Icyapa gishobora kuba cyashyirwa mu mihanda yo mu Rwanda kikabasha kuba cyakerekana ibikorerwa aho hantu uri.

Icyapa gikunzwe gushyirwa mu mihanda, aho kiba cyerekana ibikorwa bitandukanye byabera aho hantu, bityo bikabasha kuba byatuma hakorwa ibyakozwe neza.

Icyapa kiri mu muhanda, cyerekana aho hantu ukuntu hitwa, ni nk'aho hashobora kuba haba hakorerwa ibikorwaremezo bigiye bitandukanye mu Mujyi wa Kigali, mu Rwanda.

Umuhanda mwiza cyane ugenderamo ibinyabiziga harimo, moto, imodoka, ibikamyo, shira umuteto, amagare, hirya hari inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bwa kijyambere.

Umuhanda w'amabuye cyangwa se ibice bya kaburimbo, hirya hari amapoto abiri atwara insinga z'amashanyarazi, ajyana umuriro mu baturage.

Ahantu hari igipangu cyiza cyane kiri mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, ipoto ritwara amashanyarazi riyavana ahantu hamwe riyatwara ahandi. Ikaba yubatswe mu buryo bwa kijyambere.

Umuhanda w'amabuye cyangwa se ibice bya kaburimbo, uherereye KK ijana na cumi na gatatu site, hari intsinga zijyana amashanyarazi.

Iduka riri mu nzu nini hagaragara nk'yubucuruzi wo wariboneramo ibintu bi bye bitandukanye ibyo kurya ibyo kunywa byo kwifashisha mu kazi cyangwa n'ahandi hantu.

Aparitoma nziza cyane n'ibyumba bishobora kuba byakwishyurwa amafaranga agiye atandukanye, aho wajyamo ukaryama, ukishyura.

Nyandungu, ubusitani bwiza, bwakozwe mu buryo bugezweho, ushobora kuba wabagana, ushobora kuba wasura ibidukikije bihari.

Umuhanda uri kwambukamo umuntu, hirya hari inyubako nini cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ishobora kuba ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba igiye ifite amavandarateri cyangwa se ibikoresho bidufasha kuba twabona umuyaga mu gihe habayeho ubushyuhe bwinshi.

Inzu nziza cyane iherereye ahantu ku muhanda, kaburimbo iri gucamo imodoka zihuta, bakaba bari kwambuka mu ipantaro.

Haparitse imodoka ziciye bugufi, n'inzu y'umweru, ibinyabiziga bifite ibirahure amapine n'inzugi nziza.

Umuhanda urimo feruje zerekana ko, imodoka zigomba kugenda, cyangwa se zigahagarara bitewe n'uko zatse.

Imihanda myiza cyane igenderamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Moto, imodoka, amagare, bikamyo, hirya hari etage n'ibiti n'amatara amurikira...

Umuhanda muremure wiswe nk'ikiraro, munsi hakaba hakoreshwa no hejuru, hirya hari icyapa no ku ruhande hari ikindi.

Umuhanda ukoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, abenshi baziho nka kaburimbo ugenderwamo n'ibinyabiziga birimo moto, imodoka n'amagare.

Imodoka ziri kujya mu bikorwa byazo, ziri mu muhanda n'abamotari batwaye abagenzi bagiye aho bashaka bityo bikaba byafasha abantu.

Umuhanda uri mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, aho ushobora kuba wakoreshwa mu kugenderwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, bisi ibikamyo, n'amamoto n'amagare.

Umuhanda uparitsemo igare ugenderwamo n'ibindi binyabiziga, bigiye bitandukanye harimo imodokari ibikamyo n'ibindi bintu aho ushobora kuba wawukoresha.

Mu muhanda uri kugenderwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, moto, imodoka z'ibikamyo n'izitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali mu Rwanda.

Umuhanda ugenderwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, amamoto, amagare, amakamyo n'izindi, muri kaburimbo birimo byinshi bitandukanye.

Mu gihugu cy'u Rwanda ikoreshwa mu kugenderamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo moto, imodoka n'amagare, bikabasha kuba byakora ingendo zabyo neza ku buryo busesuye.

Umuhanda ufite ikiraro, aho hejuru hacamo ibinyabiziga hasi hagacamo ibindi, igare riri kugenda rihetse ibintu bisa nk'aho ritwaye ahantu.

Imihanda ifite amerekezo agiye atandukanye, aho hashobora kuba habonekamo ibiti, matara abasha kuba yamurika mu gihe haje umwijima cyangwa ijoro, bikabasha kuba byafasha ibikorwaremezo kugenda neza.

Umuhanda w'ikiraro unyurwaho n'ibinyabiziga bifite moteri, n’ibidafite moteri binyuraho. Munsi y’ikiraro binyurwamo n’ibindi.